Ingano nziza zimeze neza, zisa neza. Ingano ni nziza cyane iyo umuhinzi yazihinze akajya azitaho, akazibagarira akazitera umuti uhagije. Zikura neza zikazamuha umusaruro uhagije.

Iterambere rirakataje mu gihugu cyacu, aho abahinzi mbere yuko batera umuti ibihingwa byabo, bagomba kwambara imyenda yabugenewe bakambara udupfukamunwa ,cyangwa icyuma gituma umwuka mubi wuwo Muti utajya mu kanwa . Amaronji meza, ameze neza, ari gukura neza ,mu gihe gitoya amaronji naba amaze kwera tuzayajyana ku isoko, baduhe amafaranga akemura ibibazo byacu bigiye bitandukanye.

Umuti mwiza umeze neza batera inyanya, imboga n'ibindi bigiye bitandukanye, umeze neza, bawutera imyaka kugira ngo irusheho kwiyongera umusaruro, ikure imeze neza, bazayijyane ku isoko yaratanze umusaruro uhagije.

Ifumbire y'imborera ni nziza cyane ku bahinzi, tuyitwara mu ngorofani tukayikura aho yari iri, tukayijyanna mu mirima yacu, tukajya kuyikoresha tugiye guhinga imyaka igiye zitandukanye, bityo ikadufasha gutuma imyaka yacu izamuka neza.

Ifumbire bakoreshaga bari guhinga imyaka zitandukanye, bityo rikazifasha kuzamuka neza zikazatanga umusaruro guhagije.

Ubwato bwiza bumeze neza ,busa neza ,abantu batwara ubwato batwara abagenzi, bakabavana ku nkombe bakabajyana ku yindi nkombe ,bitewe na buri mugenzi aho agiye ,bamwambutsa neza akagira iyo agiye y'amahoro.

Ifi nziza, zimeze neza, zitetse neza, zisa neza, zitekeshejwe amavuta, ziherekejwe n'indimu, bazijyaniye umukiriya wazibasabye, narangiza kuzirya, ararya n'indimu, kugira ngo zidakomeza kumuhumura mu kanwa.

Amafi ameze neza, ava mu mazi aho tuyajyana ku isoko bakaduha amafaranga, akadukemurira, ibibazo byacu bigiye bitandukanye, cyangwa se natwe tukaba twayafata tukayateka, ubuzima bwacu bukarushaho kugenda neza, n'imikurire y'abana ikarushaho gukura neza.

Amafi meza, ameze neza, asa neza. Amafi ni meza cyane ku bantu bose. Amafi ni bimwe mu biribwa bikunzwe cyane mu Gihugu cyacu, amafi iyo umuntu yayariye aba afite ubuzima bwiza.

Ibiyaga bigari ni byiza cyane kubera ko bidufasha kubona amazi yo kwifashisha, nk'aba bagabo bari gukora ibyuzi byo gushyiramo amafi, kugira ngo borore amafi yo kujya bagurisha abaturage no muri za hoteli.

Ifi imeze neza itetse neza ,ifi ni bimwe mu biribwa byubaka umubiri wa muntu, bigenze neza, itetse neza iriho ibirungo byose, imeze neza nta kibazo ku isahani nziza umukiriya uyiriye agaruka kongera kugurira ha handi yayiguriye.

Ifi nziza imeze neza isa neza, ifi iyo tumaze kuzigura cyangwa tumaze kuziroba tuzikuraho amagaragamba, twarangiza tukazibika muri firigo kugirango zikomeze zimere neza ze gupfa vuba, tukazazigaburira imiryango yacu cyangwa abakiriya bagiye batandukanye zikimeze neza.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ihene ni bwiza cyane, budufasha nkatwe abaturage kuba twabona ifumbire ituma imyaka yacu irushaho kwiyongera, bityo nazo tukabasha kuba zatwororokera vuba, tukazijyana ku isoko bakaduha amafaranga, atuma twifashisha mu bindi bibazo bigiye bitandukanye tugenda duhura nabyo.

Iwacu mu rugo tugira insina ku irembo, mu gikari tukagira n'igiti cy'avoka, tukagira n'ibigori byokujya biradufasha.

Ishyamba ryiza rimeze neza rifite ibyatsi byiza ,ibiti byiza ,harimo ibiti bya nyiramweru n'ibindi biti birebire bimeze neza ntakibazo, iyo byeze turabigurisha tukabona amafaranga yo gukemura ibibazo byacu byo mu buzima busanzwe.

Ibirayi bikeneye ifumbire ihagije n'izuba rihagije ,kugira ngo bizere neza mu minsi ziri imbere.

Amazi meza, ameze neza, asa neza, ibyatsi byiza, ibiti byiza, kubera ko byegereye impande y'amazi yatumye bikura bimeze neza, bisa neza.

Amajeri meza ameze neza asa neza, hateyemo n'ibigori arashingiriye ameze neza cyane ari kuma, namara Kuma kubera ari kubona akazuba tuzayasarura, tuyajyane mu rugo tuyahure tuyajyane ku isoko baduhe amafaranga, yo kugura izindi mbuto tuzahinga mu kindi gihe.

Ibirayi byacu iyo byeze imigozi yabyo iruma ikajya igwa hasi bigaragara ko biba byeze neza tukajya kubikura tukabigurisha tukagira n'ibyo dusigarana byo kurya iwacu mu rugo amafaranga baduhaye ku isoko tukayaguramo izindi mbuto zo kuzahinga mu kindi gihe.

Ibitoki n'avoka ni bimwe mu biribwa bikunzwe cyane kuri iyi si. Iyo twejeje avoka turazica tukazitara, tukazijyana ku masoko bakazigura, bakaduha amafaranga, twakweza n'ibitoki, tukabijyana ku isoko na byo tukabigurisha bakaduha amafaranga, tukabona amafaranga yo kugura ibindi bintu bigiye bita...

Insina nziza zimeze neza, ibiko byiza bimeze neza. Ibko iiyo byakuze bikazana amatabi, turabica tukabikoramo injegwe zo gutegesha ibitoki byacu, kugira ibitoki byacu umuyaga utazabigusha birusheho kwera bimeze neza, bifite umutekano.

Ibirayi byiza bimeze neza biri gukura neza kubera ko twabihaye ifumbire rihagije tukabitera n'umuti uhagije. Ni bimara kwera tuzabijyana ku isoko tujye kubigurishya baduhe amafaranga yo kugura indi mbuto yo kuzahinga.

Ubwatsi bwiza bumeze neza busa neza, ubu ubwatsi turabwahira tukabujyanira inka zacu, ihene zacu, n'intama zacu kugira ngo zirusheho kugira ubuzima bwiza, ni yo mpamvu twabuteye kugira ngo amatungo yacu azabeho neza akure neza.

Ibihaza byiza n'ibidodoki bimeze neza， bisa neza， iwacu mu cyaro，iyo duhinze ibihaza n'ibidodoki，turabihinga， tukabyubakira n'uruzitiro， byamara kuzamuka， tukabizamura hejuru， kugira ngo bizarusheho kwera， umusaruro mwinshi cyane.

Amashuri meza ameze neza ,yubatswe neza ,afite ikibuga kigari cyiza, kimeze neza ,hari n'ikivumu gituye muri icyo kigo. Abantu bagenda muri icyo kibuga ,harimo umuhanda banyuramo bavuye ahantu hagiye hatandukanye, bagiye mu murima ,hari n'abatashye iwabo hirya y'ikigo bawunyuramo.

Umurima mwiza uteyemo ibigori n'insina z'ibitoki umeze neza. Insina ziri gukura neza ,n'ibigori biri kuzamuka neza. Ubu twamaze kubihingira, dutegereje ko byabona imvura kugira ngo birusheho kuzamuka neza, n'insina zacu zirusheho gukura neza.

Inkoko nziza zimeze neza, zisa neza, zibumbiye hamwe mu mudugudu ziri kurya utuntu tugiye dutandukanye, inkoko ni ubworozi bwiza umuturage atunga, zikamuha umusaruro mu gihe gitoya.

Isoko ryiza rimeze neza, ricururizwamo imboga zigiye zitandukanye harimo imboga, za karoti, puwavuro zimeze neza, zisa neza, karoti nziza. Abakiriya baje babagana bazihaha bishimye kubera ukuntu zeze neza.

Umurimo umeze neza ibigori bimeze neza, nyir'umurima abirimo bigaragara ko abyitaho umunsi ku wundi agashyiramo ifumbire ihagije, imvura iyo umaze kuboneka biba byiza kurushaho akazuba kaboneka bikarushaho kuzamuka neza, bigaragara ko mu misi iri imbere ibigori bizaba bimeze neza kandi bizatanga umusaruro mwiza uhagije.

Ibigori byiza bimeze neza bisa neza, byakuze neza kubera byabonye imvura ihagije, bigaterwa n'ifumbire ihagije nibyiza cyane, biri hafi kwera nibyera tuzabica tubigurishe tubone amafaranga, yo kugura indi mbuto tuzahinga mukindi gihembwe.

Ibishyimbo bishingiriye neza， bisa neza， bimeze neza. Uyu mugore yishimiye ko ibishyimbo bye biri kuzamuka neza，kubera yabishakiye ifumbire ihagije， bikabona n'imvura， n'akazuba kakaba kari kubigeraho， ni byera azabijyana ku isoko， bamuhe amafaranga， abone n'ibyo gutunga umuryango we.

Umugabo wishimye unezerewe ufite isuka ku rutugu avuye guhingira ibigori bye avuye kubibagarira arishimye cyane kubera ukuntu asanze bimeze neza bitewe n'ifumbire nziza yabishyizemo. Nibimara kwera bizamuha amafaranga yo kugura izindi mbuto zo gutera muri uwo umurima we.

Ibi bisheke babicururizaga ku muhanda unyuragaho abantu bagiye batandukanye. Cumi n'ebyiri mani.

Igipapayi cyiza kimeze neza cya kizungu, ni cyiza gisa neza kiri kwera neza nigikura kigatukura tuzabica tubijyane ku isoko natwe tuboneho ibyo kurya, ubuzima bwacu burusheho kumererwa neza.

Umusaruro gwa avoka iyo gubaye mwinshi cane abaturage bazihinze babonaga izo kurya n'izo guha imiryango y'abibakomokaho, bagasagurira n' amasoko bakazikoramo amasabune n'amavuta yo kwisiga.

Umugore n'umukobwa bari guhinga umurima, bafashe amasuka yo guhingisha umurima wa bo, inyuma ya bo hari urutoki n'ibindi byatsi by' mbigo, bazashingiriza nibamara guhinga ibishyimbo mu rugo, umurima bari guhinga.

Imyembe myiza, imeze neza, isa neza. Abagore bacuruza imyembe iyo baje kuyitandika, batandika ku mufungo, kugira ngo abafite amafaranga makeya babone iyo bagura, n'ufite menshi abone uko yagura bimworoheye ku mufungo.

Voka zimeze neza, zeze neza, kubera ko zabonye ifumbire bihagije n'imvura ihagije, akazuba gahagije, ubu ni ukuzifata tukazica tukajya kuzigurisha, bakaduha amafaranga menshi, tugakemura ibibazo byacu bigiye bitandukanye twari dufite mu rugo. Ubundi tukarushaho kugira ubuzima bwiza

Umurima w'ibirayi umeze neza ufite ibirayi bimeze neza. Ni byiza guhinga ibirayi abahinzi bahinze ibirayi umuhungu n'umugabo bari kubisarura umwe ari gucukuza isuka agashyira ku ruhande, undi ari gushyira mu mifuka kugira ngo barangize bahita bikorera bitabagoye.

Umurima wa puwavro zihinze zimeze neza, ziri gukura neza, umuhinzi wazihinze yishimiye ko pawuvro yahinze zimeze neza, kubera ko yazishyizemo ifumbire ihagije zikaba ziri kubona n'imvura ihagije, nizera azazijyana ku isoko bamuhe amafaranga, yo kugura izindi mbuto zo kuzahinga mu kindi gihembwe gitaha n'ayo gutunga umuryango we.

Amateke meza ameze neza asa neza yeze neza kubera yabonye imvura ihagije n'ifumbire ihagije. Amateke ya bwayisi araryoha iyo wayatetse ukayarya aba aryoshye.

Ibigori bikeneye ifumbire ihagije n'akazuba gahagije, kugira ngo birusheho kuzamuka neza bityo bizatange umusaruro mwiza kandi uhagije.

Amateke meza y'umweru, ameze neza, asa neza, aya mateke kuyateka araryoha ku bantu bose, uyariyeho ntabwo yifuza kuzongera kubaho atongeye kuyarya.

Ibirayi byiza bimeze neza byeze neza, abahinzi b'ibirayi barishimye cyane kuberako ibirayi bahinze basanze byareze neza bikaba bimeze neza ari binini ,nibabijyana ku isoko bazabaha amafaranga bakemuze ibibazo byabo bigiye bitandukanye.

Ibijumba byiza, bimeze neza, byeze neza, ibijumba ni byiza cyane iyo byabonye ifumbire rihagije, bikabona n'imvura ihagije, tugiye kubigurisha, tugire n'ibyo dusigarana byo kurya iwacu mu rugo, amafaranga baraduha mu byo twajyanye tuyaguremo imboga zo kurisha ibyo twasigaranye.

Karoti nziza, zimeze neza, zashishe neza, umuturage uzihinga ari kutwereke ukuntu zeze neza kubera yazishakiye ifumbire ihagije, akazitera umuti uhagije, mu gihe gitoya niziba zeze neza cyane, azazisarura azijyane ku isoko bamuhe amafaranga yo kugura iyindi mbuto yo guhinga mu kindi gihembwe.

Abahinzi b'abagore n'abagabo, bafashe imbuto z'ibirayi bagiye guhinga mu murima bamaze guhinga, imbere yabo hari umugabo uri kubaha amakuru y'ukuntu baragenda batera ibirayi ku murongo, kugira ngo bizere bimeze neza. Iyo twahinze ibirayi bikera bikamera neza tukabisarura, tubijyana ku masoko tukabigurisha bakaduha amafaranga yo gukemuza ibibazo byacu.

Avoka nziza, imeze neza, isa neza, iryoshye cyane, voka ni nziza ku buzima bwa muntu, ifasha abantu kubongerera amavuta mu mubiri wabo, kugira ngo barusheho kugubwa neza.

Igitoki cyiza kimeze neza ,gisa neza cyakuze neza, kubera cyabonye imvura ihagije kikabona n'ifumbire ihagije. igitoki ni kimwe mu biribwa byiza cyane ku bantu bose.

Agasoko gacururizwamo ibirayi ni keza, kameze neza, karimo ibirayi byiza bya kinigi. Uje kugura ibirayi, aramugurisha bitewe n'igiciro bashyizeho, akagenda yishimye akajyana ibyo kurya mu rugo akajya kugaburira umuryango we.

Ibigori byiza bimeze neza bisa neza byeze neza. Umugabo uvuye guca ibigori mu murima we yari agiye agiye gutembera ngo arebe uko ibigori bye bimeze asanga byareze. Aca ibyo kujyana mu rugo kugira ngo baryeho ni byiza bimeze neza.

Ibigori byiza bimeze neza byeze neza kuberako byabonye imvura ihagije ,bikabona n'ifumbire rihagije n'akazuba gahagije byarumye, uyu mugore ari kubihungura kugira ngo azajye kugurisha impungure zibivuyemo abone amafaranga yo gukemuza ibibazo bigiye bitandukanye.

Ibirayi byiza bimeze neza byeze neza bifite umusaruro mwiza cyane, abahinzi bahinga ibirayi iyo byeze babipakira mu mifuka, bakabijyana mu masoko agiye atandukanye bakabaha amafaranga.

Amatunda meza, ameze neza, asa neza, yeze neza, ayo matunda iyo abonye imvura, akabona akazuba, bakayatera umuti uhagije, akura ameze neza, akera neza, tukayajyana ku isoko bakaduha amafaranga.

Imboga nziza zimeze neza zisa neza, kubera ko zubakiwe zimeze neza cyane ntago zihura n'izuba ni nziza cyane, zitandukanye n'imboga zihingwa hanze ku zuba, abantu iyo baje gusura izubakiwe baba bishimiye kuzireba kubera ukuntu ziba zisa neza.

Mu matunda meza, ameze neza, asa neza, kubera yabonye imvura akabona ifumbire ihagije, akuze neza, asa neza, yatukuye ubu tuzajyana ku isoko, tujye kuyagurisha baduhe amafaranga, tubone kugura izindi mbuto zo kwinaza kugira ngo ku kindi gihembwe tuzagurishe andi matunda.

Voka nziza, imeze neza, isa neza yeze ku giti cyiza voka ni nziza k'umubiri w'umuntu, iyo agiye arayirya ku biryo bya buri munsi, yongera amavuta ni intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Imboga za gobo ni nziza cyane. Ku buzima bwa muntu. Ni Imboga nziza ziba zimeze neza. Iyo umuntu azishyize mu mazi akayanywa. Zivura indwara zigiye zitandukanye ,harimo n'umuvuduko w'amaraso.

Inkoko nziza, zimeze neza, zisa neza, zakuze neza, zirabyibushye ni nziza cyane, umwororozi woroye inkoko abagomba kuzitaho bihagije, akaziha ibyokurya bihagije kugira ngo zikure neza kandi zisa neza.

Imbuto nziza zimeze neza zisa neza zeze neza kuberako zabonye ifumbire rihagije n'imvura ihagije, abantu bazihinze bazitayeho bihagije pome nziza, wotameloni nziza , kokombure nziza, amaronji meza, ni byiza ku mubiri w'umuntu.

Imiteja myiza imeze neza, yeze neza iragaragara neza, kubera ko twayihinganye ifumbire ihagije ikabona n'imvura ihagije. Ubu tugiye kuyica tuyijyane ku isoko, baduhe amafaranga yo gukemura ibibazo byacu bigiye bitandukanye tugire n'iyo dusigarana yo kugaburira imiryango yacu.

Ibijumba byiza bimeze neza bisa neza, kubera ko byabonye imvura ihagije bikabona n'ifumbire ihagije n'akazuba gahagije, byeze neza ubu tugiye kubijyana ku isoko dusigaze n'ibyo tuzarya iwacu mu rugo. Amafaranga baraduha ku isoko, tuyagure imboga zo kurisha bya bijumba twasize mu rugo.

Ibijumba by'umutuku biraryohaga cane, iyo tubitetse ku bishimbo by'ibihimbano.

Umurima mwiza umeze neza, ufite ubutaka bwiza uhingwamo ibihingwa bigiye bitandukanye, umugore ari guhinga umurima we kugirango azawuteremo imbuto zigiye zitandukanye yifuza kuwuteramo.

Isoko ryiza, rimeze neza, ryubatswe neza, ricururizwamo imbuto zigiye zitandukanye z'ubwoko bwose, nziza zimeze neza, abacuruzi bazicuruza iyo bategereje abakiriya, baba bicaye imbere yazo.

Indimu nziza zimeze neza indimu zacu ni nziza kubera ko zabonye izuba rihagije n'akavura gahagije, ifumbire ihagije. Nizera tuzazica tuzijyane ku isoko tujye kuzigurisha baduhe amafaranga yo kugura izindi mbuto tuzahinga mu gihembwe gitaha.

Avoka nziza, imeze neza, isa neza, avoka ni nziza iraryoha, umuntu uwo ari we wese, iyo umuntu ayiriye arushaho kumera neza, agasa neza, tuzirya ku biryo bigiye bitandukanye, kuzirya ku birayi, ari n'ushaka kuyirya yonyine arayirya nta kibazo.

Ingurube nziza cyane zimeze neza zisa neza, ingurube iyo yabyaye iraryama ibyana byayo bikajya konka, bikonkera hamwe ingurube ni kimwe mubworozi bwororoka vuba ku bantu bose ,uwifuza kugira amatungo cyangwa gutera imbere byihuse yakorora ingurube.

Voka nziza zimeze neza zisa neza zeze neza, igiti cyacyo cya avoka gifite avoka nyinshi kubera ko twagiteranye ifumbire ihagije tukagicucira n'amazi ahagije.

Ibigori byiza bimeze neza, bisa neza byakuze neza, kubera byabonye ifumbire ihagij. Byumye neza kubera ko byabonye akazuba gahagije. nyirabyo ari kubisarura yishimiye ko ibigori byeze neza.

Ibishyimbo byiza, bimeze neza, bisa neza, by'umutuku, n'andi mabara agiye atandukanye, ni byiza kubiteka, kubera ko biduha amazi y'umutuku, yo gutekesha ibindi biryo, bikaza bisa neza.

Amatunda meza gafashaga abana n'abakuru ku bijanye n'igogora ry'umubiri, ukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Mu rugo iwacu iyo tugiye guteka inyama turazikata neza tugakata utuntu tugiye turinganiye, bityo tugafata agasahane tugakatiraho inyanya, n'amavuta tugateka. Tukabiza za nyama, twamara kuzibiza, tukazikaranga tukarya agasosi kameze neza.

Ibiti byiza bimeze neza byeze neza bisa neza. Abagore bari kubisarura kugira ngo bazabijyanane mu rugo bajye kubyanika nibamara kubyumisha bazabijyane ku ruganda bajye kubigurisha bazabikoremo ibinini n'ibindi bintu bitandukanye.

Abantu bari kwita ku nyanya bihingirwaga mu nzu. Umusaruro wazo ubaga ari mwiza kurusha izihingirwaga hanze kw' izuba.

Urusenda rwiza cyane rumeze neza, rweze neza kubera rwabonye ifumbire ihagije, rukabona n'imvura ihagije. Iyo zimaze gutukura turazica, tukazijyana ku isoko, bakaduha amafaranga yo kugura iyindi fumbire tuzashyira mu zindi nsenda, tuzahinga mu gihembwe gitaha.

Ibirayi byiza bimeze neza byakuze neza, kubera ko byabonye imvura ihagije n'ifumbire ihagije ni binini cyane, iyo bimaze kwera turabifata tukabijyana tukabipimisha tukajya kubigurisha mu baturage, bakaduha amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo bitandukanye, tukabona n'ayo kugura izindi mbuto zo kuzatera mu kindi gihembwe.

Abakozi babagore batwaraga imyanda, zo mu mago gatandukanye bakazijana, mu kimoteri baratashe.

Ibigori byiza bimeze neza biri kwera neza bihekanye. Ibigori iyo bibonye ifumbire rihagije biba ari ibyiza, bikura neza, bikazera neza, bitewe nuko byabonye ifumbire rihagije n'akazuba gahagije.

Pavuro nziza zimeze neza, zisa neza. Pavuro tuzikoresha iyo turi guteka ibiryo bigiye bitandukanye, haba mu isosi tuzishyiramo, dukaranze akanyama tukazishyiramo, utetse umureti ukazishyiramo, ni nziza cyane ku bantu bose.

Ikawa zimeze neza zeze neza zatanze umusaruro mwiza, umuhinzi wazihinze arishimye kubera ko zamwereye neza, yazishyizemo ifumbire ihagije azitera umuti zikura neza, kubera ko zakuze neza ubu biramushimishije cyane kuko zizamuha amafaranga atubutse, yo gutuma akemuza ibibazo bye bitandukanye yari afite mu rugo.

Abakozi batandukanye barikoreye ,bavuye gusarura icyayi mu mirima zabo zitandukanye.

Abantu bahinga, iyo bari guhinga ari benshi, baba bameze neza ,bishimye bagahinga vuba ,bityo bikabafasha gutera imbuto zabo mu gihe gitoya bitaba.

Indimu nziza, imeze neza, isa neza. Indimu yacu yeze neza kubera yabonye ifumbire ihagije, n'akavura gahagije, ikagerwaho n'akazuba gahagije. Indimu ni nziza cyane ku bantu bose.

Imishwi myiza imeze neza, isa neza yakuze neza, imishwi iyo yitaweho ikabona ibyo kurya bihagije n'amazi, ikura neza, ikaduha umusaruro mwiza mu gihe gitoya bidatinze.

Umurima mwiza, umeze neza, uhinze neza. Uhinzemo ibitunguru by'ubwoko bubiri. Ni byiza bimeze neza, twarabihingiye dutegereje ko imvura yagwa bikazamuka neza, byakwera tukazabijyana ku isoko kubigurisha bakaduha amafaranga yo kugura izindi mbuto tuzahinga ubutaha.

Ubunyobwa bwacu tutari twatonora nuko butari bwuma neza. Nibumara kuma tuzabutonora, tubujyane ku isoko baduhe amafaranga yo gukemura ibibazo byacu bigiye bitandukanye, n'ayo kugura izindi mbuto z'ubunyobwa tuzahinga mu kindi gihembwe.

Ubucuruzi bw'ubunyobwari ni mu bimwe mu bihingwa bitanga umusaruro, iyo wa bwitayeho neza ukabona akavura keza bukabona akazuba gahagije ifumbire ihagije.

Ubunyobwa bwiza bumeze neza, busa neza bweze neza. Ubunyobwa butonoye n'ubudatonoye buba butandukanye cyane. Iyo ubunyobwa tumaze kubutora tukabwanika, buba bumeze neza, twarangiza tukabujyna ku isoko, bakaduha amafaranga yo kugura izindi mbuto tuzahinga mu kindi gihe.

Ibishyimba bimeze neza，byeze neza，umugabo avuye gusarura ibishyimbo bye， abitwaye ku igare， abivanye mu murima， ari kubinyuza muri karitsiye z'iwabo，abijyana iwe，kugira ngo age kubyanika iwe，ni byuma azabihure， namara kubihura abone ibyo kurya， abone n'ibyo gusagurira amasoko.

Amasaka meza ameze neza, yakuze neza. Amasaka iyo twayitayeho tukayahingira, tukayabagara twajya kuyuhira tukayashyiraho ifumbire, akura neza, ameze neza. Akarusho iyo yabonye imvura n'akazuba arushagaho gukura neza, yakwera tukayajyana ku isoko tukabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Inzuzi nziza zimeze neza zisa neza zumye neza ziri ku gasahani, izi nzuzi turazifata tuzibeteshemo ifu tujye tuyirya mu isozi, cyangwa tuzajye kuzitera mu wundi murima tuzibyazemo ibindi bihaza.

Umuzungu urimu murima uteyemo amajeri, ari gufotora utuntu tugiye dutandukanye turi hasi, amajeri ni meza, ameze neza, kubera yitaweho akabona imvura n'ifumbire ihagije.

Ibishimbo by'imiteja biduhaga umusaruro mwinshi, bityo tugatsagurira n'amasoko tukabona amafaranga gahagije, tukabasha kuba twagura n'ibindi tudafite.

Amajeri meza ameze neza ,asa neza iyo twahinze amajeri tuyitaho tukayabagarira ,tukayatera umuti kugira ngo arusheho kuzamuka neza ,iyo yeze tuyajyana ku isoko tukagurisha bakaduha amafaranga ,tukabona kugura iyindi mbuto yo kuzongera guhinga mu kindi gihembwe.

Ibigori bya mayizori byarenze bigaragara ko byitaweho bikwiye, byabonye ifumbire ihagije, imvura ihagije, bibona akazuba keza, byera ari byiza. Ubu ni ukubijyana ku isoko, bakaduha amafaranga tugakemuza ibibazo byacu bindi bitandukanye.

Amasaka meza, ameze neza, yumye neza. Iyo turi kuyasarura dukora icyo bita kuyagesa kugira ngo bizatworohere kuyahura. Iyo tumaze kuyahura turayagosora, tukayajyana ku isoko bakaduha amafarangaza, tugakemuza ibibazo byacu bigiye bitandukanye.

Ubunyobwa bwiza, busa neza, bumeze neza, bwakuze neza kubera bwabonye ifumbire ihagije, bukabona n'imvura ihagije. Ni bwiza cyane tugiye kubujyana ku isoko kubugurisha, baduhe amafaranga yo kugura izindi mbuto tuzahinga mu kindi gihembwe gitaha.

Ubunyobwa butunoye, bumeze neza, busa neza, bweze neza, kubera bwabonye ifumbire ihagije, bukabona n'imvura ihagije, n'akazuba gahagije katumye bwuma, iyo tubuguze turabubetesha tukajya turabukoramo isosi, ubundi tukajya turabushyira mu biryo bigiye bitandukanye.

Ibishyimbo biramutse bibonye ifumbire ihagije n'akavura gakeya, byarushaho kuba byiza, bityo bigakura neza bikazabyara umusaruro uhagije.

Amasaka ahuye, ameze neza, asa neza, yagosowe neza nimeza arasa neza. Turi kuyanika kugira ngo yume neza, namara kuma tuzayajyana ku iso kuyugurisha, baduha amafaranga yo kugura izindi mbuto zo kuzahinga mu kindi gihe.

Ibigori byiza bimeze neza, bisa neza by'amabara agiye atandukanye, biri mu gitonga cyabyo, bimeze neza, iyo wabiriye urushaho kugira ubuzima bwiza, uwabiteye birushaho kumuha umusaruro umeze neza, bitewe n'ukuntu ari byiza.

Iigori byiza bimeze neza, bisa neza. Ibigori byacu byumye neza kubera ko byabonye izuba rihagije. Byeze neza kubera byabonye akavura gahagije n'ifumbire ihagije. Nibimara kuma neza, tuzabihura cyangwa tubihungure tubijyane ku isoko baduhe amafaranga yo kugura izindi mbuto zo kuzahinga mu kindi gihembwe.

Imiteja myiza imeze neza, yitaweho kubera yabonye imvura, bayiteye umuti, baziha, bazicucira amazi meza.

Ubunyobwa bwiza， bumeze neza，busa neza， ubunyobwa bwacu bweze neza，kubera twabushakiye ifumbire ihagije，bukabona n'imvura ihagije n'akazuba gahagije， katumye bwuma neza， nitubujyana ku isoko，bazaduha amafaranga， tuyagure iyindi mbuto，yo kuzakoresha mu kindi gihe.

Iyo twejeje ingano tuzishyira mu mashitingi tukazitwikira, igihe cyo kuzigosora cyagera tukajya kuzigosora. Umugore uri kugosora ingano narangiza kuzigosora azazijyana ku isoko bamuhe amafaranga yo kugura izindi mbuto zo kuzahinga mu kindi gihe.

Iduka ryiza rimeze neza, risize amarangi meza, ryubatswe neza, ricururizwamo ibyo kurya. Imiceri igiye zitandukanye na kawunga byo guha abaturage, buri muturage ukeneye umuceri cyangwa kawunga, aza kubishakira muri iri duka.

Ubunyobwa bwiza，bumeze neza， busa neza， ubunyobwa bwabonye imvura，bubona ifumbire ihagije， bubona n’akazuba， bityo buruma，umucuruzi uri kubucuruza，nabona abakiriya，azabubagurisha，bamuhe amafaranga，age kuranguza izindi mari， zigiye zitandukanye.

Ibigori byiza bimeze neza, bisa neza, byeze neza kubera ko byabonye ifumbire ihagije, bikabona n'mvura ihagije, bikabona akazuba gahagije byumye neza. Ubu tugiye kubimanika tuzabigiremo imbuto yo kuzahinga mu kindi gihembwe. Nidukenera n'ibyo kunywamo igikoma tuzajya dufataho duhungure ibyo kujyana kubeteshe.

Amasaka meza, ameze neza, yakuze neza kubera yabonye imvura ihagije n'akazuba gahagije, ari hafi kuma, namara kuma, bazayatema bayajyane mu rugo baje kuyahura, bayajyane ku isoko babahe amafaranga.

Amasaka iyo yatangiye kuzamo ibinopfo byinshi aba yapfuye kubera atari kubona ifumbire ihagije n'amazi ahagije, bikadusaba kuba twayagurira ifumbire ihagije kugirango arusheho gukora neza.

Ibigori byiza bimeze neza bisa neza byeze neza, kubera ko byabonye ifumbire ihagije n'imvura ihagije n'akazuba gahagije, byareze rwose bimeze neza ubu tugiye kubimanika nibimara kuma, tuzabihungura tujye kugurisha impungure zabyo.

Ingano nziza, zimeze neza, ingano ni nziza cyane, tuzikoresha turi gukora umutsima cyangwa imbada n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, no mu gikoma tuzishyiramo tukanywa igikoma kimeze neza.

Inzuzi z'ibihaza zumye zishobora kutubyarira ibindi bihaza, no kuba twazibetesha tukazibyaza mo ifu yo gushyira mu isosi.

Abagabo n'abagore bavura ingagi iyo baje kuzivura baza bitwaje imiti yo gukoresha bambaye ama ga n'udupfukamunwa kugira ngo bayivure bafite umutekano uhagije.

Ikiraro cyiza kimeze neza, cyubatswe neza, bacyubatse neza, kirakomeye nta kibazo. Inka nziza imeze neza, veterineri iyo aje gusuzuma inka no kuzitera umuti aza yambaye isarobeti na ga, agashyiramo n'agapfukamunwa.

Inkoko nziza zimeze neza， zisa neza， inkoko ni nziza iyo umuntu azoroye akazitaho bikwiriye， akazigurira igiheri，akaziha n’amazi，zikajya zirarya bihagije，zikura neza zigatanga umusaruro mu gihe gitoya.

Inkoko zimeze neza, ziri ahantu heza ,zirira ahantu heza, ubworozi bw'inkoko ni bumwe mubworozi buteza umuntu imbere .Iyo wazifashe neza ,ukazigaburira neza ,ukazijyana ku isoko zimeze neza, bakaguha amafaranga menshi ,agatuma ukemura ibibazo byawe bigiye bitandukanye.

Ingurube nziza imeze neza. Ingurube ni itungo ryiza cyane ku muturage uwo ari we wese. Iyo aritunze akajya aribonera ibyo kurya bihagije rikura neza, mu gihe gito riba rimuhaye umusaruro w'izindi ngurube, akaba yazigurisha akabona amafaranga yo kuzigurira ibyo kurya.

Ingurube nziza imeze neza. Ifite ikiraro cyiza kimeze neza. Iyo veternary yaje kuyitera urushinge abanza akayitereta kugira ngo abone ko yayitera urushinge. Bityo ruyifashe kuba yakura neza.

Inka nziza, zimeze neza ,zisa neza . Abantu iyo baje kuzisura, bishimira kuzireba kubera ukuntu zimeze neza ,zitanga umusaruro mwiza . Iyo zibyaye, bajyana amata ku isoko ,bakabasha kubona amafaranga yo kuzigurira ubwatsi bwo kurya kugira ngo zirusheho gukomeza kumera neza.

Abaganga beza bameze neza， bambaye neza impuzankano yabo y'akazi，bambaye amashati yabugenewe， ingofero n'udupfukamunwa，iyo bari kubaga umuntu， abagabo bamuhagaze ku ruhande， bari gufashanya，kugira ngo babashe kuvura neza， umurwayi waje ubagana.

Ikiraro cyiza, inka nziza; inka zacu tuzubakira ibiraro byo kubamo kugira ngo zirusheho kugubwa neza. Zireke kujya zinyagirwa n'imvura, ziba ahantu hameze neza, Iyo veterineri yaje kuzitera urushinge, turamufasha kugira ngo ayitere urushinge neza, na yo irusheho gukura neza.

Abaganga bavura inka, inka n'izindi nyayamaswa zigiye zitandukanye z'amatungo, iyo bagiye kuvura inka baba bambaye impuzankano zabugenewe, nk'amabote amataburiya yabugenewe bambaye n'udupfukamunwa bambaye na ga mu ntoki.

Amagi meza ameze neza, atotondetse neza, asa neza, umucuruzi ucuruzaga amagi arayaraguza. Iyo abakiriya baje abaranguza amatereyi bashaka bakayajyana, bakajya na bo kugacuruza mu duce tugiye dutandukanye.

Aga magi ni meza ,gashobora kuba gatanga amafaranga menshi ku muntu ugoroye, agiye agagemura mu mahoteri cyangwa mumaresitora.

Inkoko nziza zimeze neza, zisa neza ,ziri ahantu heza ,zubakiwe inzu nziza ,umworozi uzorora azigaburira ibyo kurya bihagije, birimo vitamine akagira utwo kuzigaburiramo, ntabwo azigaburirira hasi ku butaka ,ahubwo yashatse utwo kuzigaburiramo ,kugira ngo zirusheho kugubwa neza.

Abanyeshuri beza bameze neza， bari kumwe na mwarimu wabo，ari kubakoresha puratike，abigisha kubaga inyamaswa，zahuye n'ibibazo bitandukanye， bakazivura， bakazisubiza ubuzima bwazo， kugira ngo zongere zirusheho kumera neza.

Ihene nziza zimeze neza nyinshi zirasa neza ziri kumwe n'umushumba wazo, yishimiyeko zororotse zikaba zimaze kumuha ubworozi bwinshi cyane bitewe n'ingano yazo.

Ubworozi bw'ingurube ni bwiza cyane. Ku muturage uzoroye, zimuha umusaruro mu gihe gitoya. umugabo uzorora aba yishimiye uburyo ingurube yabyaye ibyana byinshi kandi byiza.

Inyoni nziza, imeze neza, iri ahantu heza hatuje, inyoni ni zimwe mu nyamaswa abantu baza gusura mu gihugu cyacu, baturutse ahantu hagiye hatandukanye, aho abanyamahanga baza n'abanyarwanda, bose bakaza kuzisura, baza kureba uburyo zibayeho,..

Ingagi nziza zimeze neza zisa neza, ibyatsi byiza ingagi ni nziza cyane ni zimwe mu nyamaswa ziduha amafaranga, iyo abaturage bagiye batandukanye n'abandi bakerarugendo bo mu bindi bihugu baje kuzisura.

Inyamaswa y'isha iyo iri mu ishamba ibaga inezerewe, ishimishije, isa neza, ni nziza iba yishimye igihe cose, ni nziza cane.

Ingagi nziza imeze neza, ishyamba ryiza rimeze neza, risa neza, rifite ibyatsi byiza, iyo ba mukerarugendo baje gusura ingagi, ziduhaha amafaranga, bityo ayo mafaranga tukayifashisha mu bibazo by'abaturage bigiye bitandukanye, no mubindi bikorwa by'igihugu.

Ingano zimeze neza, zisa neza, ipusi imeze neza, isa neza, ipusi ni kimwe mu nyamaswa ziba mu ishyamba, nushaka kuyitunga mu rugo arayitunga, ikazajya imurindira umutekano.

Igikeri cyiza kimeze neza cy'amabara abiri gisa neza gifite ibara ry'umukara n'iry'umuhondo, ni cyiza kiri kugenda hasi ku butaka. Igikeri ni kimwe mu nyamaswa ziba mu mazi n'ahandi hantu hagiye hatandukanye.